Imodoka toyota si akarongo heci ara hayiburide bibiri na makumyabiri na kabiri, iri ku isoko imodoka nziza cyane ku giciro cya miliyoni mirongo itatu n'esheshatu gusa.

U Rwanda igihugu cy'imisozi igihumbi sibyo gusa kuko tubafitiye amwe mu mahoteli meza aho warara wirebera ibyiza nyaburanga bigize u rwanda kandi utuje utekanye .

Jipiyesi igikoresho kigufasha kuba wabona aho umugenzi ari cyangwa urugendo ugiye gukora, aho waba uriho hose kikaba kikuyobora mu buryo bwizewe kandi bwiza.

Inzu ikodeshwa iherereye Kigali kimironko ifite ibyumba bibiri hamwe wagera ku mafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi.